Iyo ukorera kampani runaka ikagera aho ikugirira ikizere ikaguha akazu, n'abantu barakwizera ku buryo uhorana abakiriya benshi baje gushaka iyo serivisi yawe ukorera aho hantu.

Buri banki yose aho iva ikagera igomba kuba ifite umu ajenti uzajya uyivuganira ahantu hose kuko buri uko umuntu akeneye serivisi si ko yahita agera kuri banki ngo bimukundire kuko abantu benshi baba bafite akazi bahugiyemo.

Abakozi ba Kampani ya MTN, iyo bamaze kugirirwa icyizere gikomeye, usanga bahawe n'akazu ko gukoreramo mu buryo bwo kugira aho babarizwa, utarinze kubashakira kure bazenguruka, ahubwo bakagira aho bahora.

Abakiriya b'izi kampani, zikunda kwamamaza cyane cyane amasimukadi no kugura amayinite, ukunze gusanga bazitabira izi serivisi cyane.

Ni byiza ko buri muturage wese yigishwa gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kuko wasangaga kera amafaranga yabo bayizirikaho, bakayagendana kandi byatumaga umutekano wabo uba utuzuye.

Leta y'u Rwanda imaze kubona ko kugendana amafaranga atari byiza, yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kujya umuntu akoresha ikarita, maze akayagendana ku ikarita kugira ngo arindirwe umutekano.

Mu mijyi ukunda gusanga abantu ari urujya n'uruza, bityo rero umuntu uhakoreye umushinga cyangwa agatanga serivisi runaka abona abakiriya benshi kubera ko haba bagendwa n'abantu benshi.

Igihe ubaye umukozi wemewe n'amategeko, bagomba kuguha inzu yo gukoreramo, ako kazi ukora kugira ngo ugushatse ntasange wagiye ahubwo aza azi aho uri, ahite abona icyo akeneye.

Si kwa muganga honyine hagomba kumanikwa, indangagaciro bagenderaho kuko ibingibi byakaranzwe ahantu hose kugira ngo ukeneye izo serivisi abe azi ibyo byose.

Kujya hantu mu kirori ni byiza cyane cyane ko haba hari ibintu byiza byinshi biri buhakorerwe, ariko abenshi bakunda kujyayo kubera ko bazi ko harimo ibyo kurya.

Mbere y uko umuntu ajya kubikuza amafaranga muri banki, agomba kuba afite agatabo ko kubikurizaho. Bityo bamusinyira akagitansi ajyana kagaragaza ko yabikije cyangwa yabikuje.

Abaturage bo mu karere ka Nyagatare, nabashishikarizaga ko buri gahunda yose tugenewe n'abaturage yaba irimo gushora imari mu bintu bitandukanye, tujye tuyitabira dusobanukirwe neza.

Buri muryango byibura kugira ngo abana babo bakure neza, umwana agomba kubarya igi rimwe byibura ku munsi. Ibi rero iyo watekereje umushinga mwiza urimo nko korora inkoko, ubigeraho kuko ziba zita magi.

Mu birori abantu bagomba kugenda bambaye neza, cyane cyane nk'ahantu habereye igikorwa runaka, ni byiza ko ababishinzwe batanga imyambaro isa ku buryo buri wese ubona ko yari aje muri icyo gikorwa.

Ubufatanye no gushyira hamwe no gukorana byose ni ikintu gishobora gutuma abantu batera imbere ariko iyo hajemo kutumvikana byo bihita bisenya ibyo byose maze kuvuga.

Kampani izwi cyane mu Rwanda icuruza inzoga z'amoko yose, ni iyitwa Sikolu, aha abantu benshi bakunze kunywa iza inzoga, kuri uru ruganda kubera ko rwamaze kwandika izina.

Gucuruza mu kabari ntabwo bisaba ngo ube watangirira ku bintu byinshi cyane, utangirira kuri duto ariko ukajya wita ku bintu byakurura abakiriya cyane, bityo ukagenda utera imbere gake gake.

Buri shami rigomba kuba rifite abakozi baryo, igihe umuntu adashoboye kuba yagera ku cyicaro, akaba yabona iyo serivisi muburyo bumworoheye bityo akaba yayihabwa nk'uko ayikeneye.

Umucuruzi umaze gutera imbere agomba kuba afite n'imifuka irimo ibyo kurya kugira ngo umuntu uje kurangura abe yajyana ku mufuka ndetse n'ufite ubushobozi buke agure ku kiro.

Iyo ugize igitekerezo cyiza cyo gushinga botike, hanyuma ugacuruza ibintu bigiye bitandukanye, nta kabuza ugomba gutera imbere kuko muri iyi minsi byagaragaye ko aribyo bigezweho cyane.

Ababyeyi iyo bamaze gusoza gahunda zo gusenga, hari igihe banyuzamo bagafata ifoto bishimye kubera ko nta muntu wagera mu nzu y'Imana ngo atahababaye bitewe n'uko abahagiriye ibihe byiza.

Nyuma yo kubona ko abantu basenga bafite amafaranga bakunda kwaka abaturage kandi ntihamenyekane neza ikintu bayakoresha, hafashwe umwanzuro wo gufunga insengero, abazifunguye bakajya basora.

Mu gihe habaye igikorwa runaka, kirimo kuba bahemba umuntu, bagomba kuba bamusinyira sheke kugira ngo ayo mafaranga igihe azayashaka, azajye kuri banki babe bayamuha.

Mu nsengero zimaze gutera imbere usanga imbere y'urusengero haparitse imodoka nyinshi kubera ko zisengeramo abantu b'abakire ni ukuvuga bafite amafaranga akaba yajyayo yifitiye n'imodoka ye.

Abapadiri ndetse n'abandi bantu bihaye imana usanga ari bo bafata umwanya munini wo kuba basenga kubera ko bizera Imana mu byo bakora byose kandi bizera ko kubaho kwabo ari yo ibigena.

Iyo ugeze muri kiliziya usanga Padiri akunda kujya aho twakwita kuri aritari igihe agiye kubabwira ijambo ry'imana, bityo buri wese akaba arimo aramureba neza bitamugoye.

Abapadiri usanga bariyeguriye Imana ubuzima bwabo bwose, kubera ko hari amasezerano baba barasezeranye n'Imana, bityo bigatuma bababaho ubuzima batarimo kuba babyara.

Mu nsengero za Kiliziya cyane cyane izi ngizi zifatwa nka paruwasi, usanga zarubatse inyubako nini cyane, kubera ko ziteraniramo abantu benshi kandi bakazira rimwe.

Mu gihe cya Kovide wasangaga kujya mu rusengero byarasabaga kuba bakwanditse ndetse ugatanga n'ibyangombwa kubera ko hakurikizwaga amategeko n'amabwiriza byose ukajya ku murongo kandi wambaye n'agapfukamunwa.

Mu Rusengero ukunze gusanga hari korali isusurutsa abantu, iyo ngiyo akaba ariyo itangira amateraniro, mu gihe abantu baba bari kwisuganya baza mu Rusengero bagasanga yageze ku ruhimbi.

Iyo ugeze mu rusengero utungurwa no kubona abanyacyubahiro ndetse n'abandi bantu bose baciye bugufi, bagapfukama nyamara wabareba ukabona ibyo bintu batabikora ariko kubera urukundo bakunda Imana rukabibakoresha.

Umuntu wese ukunda gusenga imana na yo iramusanga kubera ko ikugirira neza kandi ikagufasha mu bikomeye, binyuze mu masengesho wayisenze mbere.

Serivisi zo gusenga byakunze kugaragara ko zahagaritswe kubera ko hari abantu benshi badafite ibisabwa bityo rero kugira ngo wemererwe kuba wasenga bagira ibyo bagusaba ubyujuje bakakureka.

Ibitanda byiza ubundi byakaranze hoteli yamaze kumenya icyerekezo cyayo, kuko ahantu hasa neza umuntu nta kabuza ayo mafaranga arayaguha kugira ngo nawe witeze imbere kuko yabonye icyo ashaka.

Igihe twagiye mu mahugurwa runaka tugomba gutega amatwi tukumva ibyo batubwira, bityo rero iyo wumvise neza ushobora no gusobanurira umuntu utari wagiyeyo akabyumva kuruta abandi bagiyeyo.

Buri hantu hateye imbere, hagomba kuba hari parikingi zimeze neza ziparikamo imodoka, aho kugira ngo imodoka zijye ziparike mu kavuyo ahubwo ibi bakabyitaho kugira ngo ibintu bibe bisa neza byose.

Mu mahoteri haba hari ibiryo byiza kandi byakurura abakiriya, uhageze atangira ubuhamya abandi, bityo iyo hoteri ikagerwaho n'abakiriya benshi kubera ko ikora neza kandi akeza ngo karigura burya.

Niwubaka hoteri ukibagirwa gushyiraho pisine uzamenye ko iyo mibare wabaze utayitekerejeho neza kuko iyo abantu bamaze kunanirwa bajya muri pisine basoza bakajya kuryama.

Iyo abantu bishyuye amafaranga yabo kugira ngo bajye mu byumba bitandukanye bararamo, hagomba kuba hasa neza na ho cyangwa se niba bageze muri hoteli bagomba kujyanwa ahantu habera ibintu by'imyidagaduro kugira ngo baruhure ubwonko.

Usanga mu mahoteli, hari ibintu byinshi umuntu areba akabona amaso ye aranyuzwe, bityo akibwira ko ayo mafaranga yishyuye adapfuye ubusa. Ni byiza ko hashyirwa n'ibindi byinshi.

Ubundi hoteli ubwayo, uko isa ndetse n'izina ryayo byikururira abakiriya, bidasabye kuyamamarizaho ibintu byinshi maze na yo ikajya imenyekana muri ubwo buryo.

Amahoteri agomba kuba afite ama pisine kugira ngo umuntu nakenera kuruhura umutwe cyangwa izindi serivisi zatuma aruhuka umubiri, ajya muri iyo pisine maze yiyongere.

Iyo umuntu yaraye ahantu heza, abyuka yumva ameze neza umubiri wose kubera ko bakunda kuvuga ngo uwaruhutse neza, ni na we ukora neza. Niyo mpamvu igihe tugiye kuryama tugomba kwita ku isuku y'aho tugiye kuryama.

Kuba ahantu hari isuku, ibintu byaho bipanze neza ndetse uharebesha amaso yawe ukabona hameze neza, byagukururira kuzagaruka n'ikindi gihe uje kureba izo serivisi.

Ahantu ku mahoteri iyo ugiyeyo usanga hari amapisine abantu baruhukiramo bityo iyo umaze kuruhuka ukajya no kuryama ubwonko busubira ku murongo bugakora neza.

Iyo uryamye ahantu hashashe neza hagaragara neza nawe ubyuka waruhutse ariko iyo uryama ahantu aho wiboneye aho ari ho hose ni hahandi ubyuka utaka umugongo nk'aho waraye mu kazi.

Inkweto zifunguye zikunze kubuzwa abanyeshuri kuzijyana kwiga, kubera ko biba bisa nabi bigaragara nkaho izo nkweto ari izo kujyana koga kugira ngo umuntu azifashishe.

Igihe haje ikigo gishinzwe gushishikariza abantu ibintu itandukanye, ni byiza ko abaturage bo muri ako gace bitabira izo gahunda, bakamenyeshwa icyo baje kubabwiraziza bakabishyira mu ngamba bakazabikora.

Ababyeyi igihe babonye umusaruro mwiza, bagomba kuwujyana mu isoko bagacuruza, hanyuma bakawuvunjamo amafaranga, bazana akaba yatunga umuryango ndetse agakemura n'ibindi bibazo.

Niba umusaruro wawe wabaye mwiza, ukabona urugo warusigarije, ni byiza ko ibisigaye ubijyana mu isoko n'abatabifite bakaguha amafaranga bityo nabo ukabagaburiye mu buryo nk'ubwo.

Si byiza gucururiza aho ari ho hose kubera ko biteza akavuyo, Leta itangiye kujya ibikuraho ibintu byo gucururiza ku mihanda, ahubwo bajye bajya ahabugenewe kuko akenshi usanga bari guhunga imisoro.

Ahantu hari isoko ryegereye umuhanda abantu bacururiza ku muhanda, ibi si byiza kubera ko byateza n'impanuka usanga hanyuramo ama moto, hanyuramo amagare n'ibindi byinshi bishobora kwangiza ibyo baje gucuruza.

Uujye tugira ubwitonzi, tunashishoze igihe turi mu isoko ririmo abantu benshi kuko bashobora kutwiba ibyo twazanye bityo ugasanga turimo turarira, ibyoyo twaruhiye bikaba bibaye ubusa.

Gucururiza ku muhanda ntabwo biba ari byiza kuko bishobora gutuma ibyo ucuruza byangirika bitewe n'ibintu runaka bishobora kuba byabyangiza, bityo umuntu agomba kwitwararika aho akorera kugira ngo arinde ibye.

Umucuruzi wabigize umwuga, agomba kuba afite imyambaro myiza kandi akaba afite udukoresho tuyifata, igihe ayimanitse kugira ngo buri wese yayibone atari uko yegereye gusa.

Gahunda yo gutanga amaziko yageze kuri bose ubu buri muturage asigaye yicanira ku ishyiga yahawe kandi agacana akoresheje inkwi nkeya ugereranyije n'ayo bakoreshaga mbere.

Akenshi mu bukwe usanga hari serivisi zo kuba bakigaburira ibiryo kubera ko biba byashyizwemo amafaranga menshi, buri muntu akajya yihereza uko ashatse kandi ni byiza ko ababikora bagomba kujya bita ku isuku yabyo.

Ni kenshi uzasanga ku maresitora, atanga serivisi zo kuba yagaburira ibyo kurya ndetse n'ibindi. Uzasanga yanditseho murakaze neza. Maze ababibonye na bo bakajya kwishakira izo serivisi.

Nushinga resitora ntushyiremo ibintu byakurura abakiriya uzamenye ko iyo ngiyo ishobora kuguhombera mu gihe gito kubera ko resitora zamaze kuba nyinshi buri wese akenera akantu gakurura abakiriya kugira ngo yiteze imbere.

Ngira ngo mwese mwarabimenye ko kizira kikanaziririzwa gutwara ikinyabiziga nta ruhushya ubifitiye, ibi ngibi iyo polisi y'Igihugu igufashe iguha ibihano bikomeye cyane kuko uba uri gushyira ubuzima bwawe n'ubw'abandi mu kaga.

Byakunze kugaragara ko ibitoki atari igihingwa kera ahantu aho ari ho hose, ahubwo biba bifite ubutaka bigeraho bikaba byatanga umusaruro kuruta utundi turere utwo ari two twose cyane cyane nko mu Ntara y'Iburasirazuba.

Si byiza ko umuyobozi w'ikinyabiziga agenda yapakiye ibintu byinshi bituma gutwara icyo kinyabiziga bimugora kuko ibi na byo byamuteza impanuka mu muhanda kandi yakabyirinze bitaraba.

Buri wese umaze guca akenge, asigaye ahita yigira kwiga imodoka kubera ko abenshi mu mitwe yabo ndetse no mu ntekerezo zabo bazumva batunga imodoka mu gihe kiri imbere.

Iyo ugeze ahantu ukahabona imodoka nyinshi utekereza ko habaye ibyago, ariko mu mijyi ho ni ibintu bisanzwe kuko haba hari ambutiyaje buri mu gitondo uko abakozi bagiye mu kazi ndetse n'uko batashye.

Igihe dutwaye ikinyabiziga ni byiza ko twubahiriza amategeko n'amabwiriza biba biri mu muhanda, kubera ko bituma impanuka ziba nkeya bityo ubuzima bw'abaturarwanda bugakomeza kuba bwiza.

Igihe umumotari atwaye ikinyabiziga ke si byiza kugenda arangara mu muhanda kubera yuko ibi ngibi na byo biri mu biteza impanuka zitateguwe kandi kubahiriza amategeko n'amabwiriza ari byo biturinda gukora impanuka.

Abantu batwara amagare mu muhanda usanga bakoresha ibyabiziga impanuka kuko nta tegeko na rimwe ryo muhanda w'amazi, bapfa kwigendera biri aho, bityo ugasanga impanuka zo mu muhanda ziterwa n'abanyonzi ni nyinshi.

Nyamuneka abamotari mujye mwitwararika mu mihanda, dukunda kubona impanuka nyinshi ziterwa na bo kandi nyamara baba bafite perime zigaragaza ko bazi gutwara ariko bakica ibintu nkana.

Buri mumotari wese abyuka mu gitondo akatsa moto ye yitegura kujya mu kazi kubera ko ariko kaba kamutungiye umuryango ndetse na we ubwe maze akagakora abikunze.